Umugore utwaye igare, arikoresha mu buryo bw'urugendo kugira ngo ageze ibicuruzwa bye aho agiye gukorera, bigaragara ko ari amashu.

Imodoka ziri mu bwoko bwa Tirinite zifasha abantu kubajyana Kampala zibageza, zibageza Kigali cyangwa zikabavana Kigali zibageza Kampala, ziparitse muri gare ya Nyabugogo.

Inkengero z'umuhanda n'akayira n'akarigori gatandukanya umuhanda w'ibinyabiziga n'umuhanda wayamaguru.